Ni ngombwa ko iyo umwana agiye kurya abanza gukaraba intoki kubera ko ku ntoki haba hariho mikorobe nyinshi cyane zishobora kwivanga n'ibyo agiye kurya, bikaba byamutera uburwayi bwinshi cyane butandukanye, ikigo gishinzwe ubuzima bw'abana rero UNICEF, ikaba ishishikariza umuntu bose gukaraba intoki mbere yo gukora buri gikorwa icyo ari cyo cyose, cyane cyane nk'iyo umuntu avuye muri tuwarete cyangwa se muri wese, cyangwa se agiye kurya cyangwa se nanone asoje kurya.

Ni byiza gutoza abana ibintu bijyanye no gukora amasuku bagakaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ndetse tukabatoza n'umuco wo koza bimwe mu bikoresho bakoresheje dore ko iyo umwana wahawe uburere bwiza akiri muto akurana nabwo kandi bikazamufasha mu kuvamo umuntu ufite indangagaciro ndetse n'umuco nyarwanda mu minsi ye y'ahazaza.

Iyo abantu hari aho bahuriye mu munsi mukuru bafata ifunguro rya mu gitondo, iyo basoje baraganira, bagaseka, kubera ko wenda bashobora kuba baturuka ahantu hatandukanye, bakibwirana ndetse buri muntu wese akamenya undi, kubera ko hari ahandi hantu bashobora guhurira, bakaba bafashanya.

Abajyanama b'ubuzima: ni abantu bakwiye guhabwa amahugurwa ndetse bagahabwa inama nyinshi zitandukanye z'uburyo bakwiye kwita ku buzima bw'abaturage, dore ko n'abajyanama b'ubuzima ari bamwe mu bantu b'ingenzi dufite mu gihugu cyacu, batuma iterambere rizamuka, kubera kwita ku bibazo by'abaturage ndetse no kwita ku buzima bw'abaturage.

Amazi ya robine, ni amazi meza dukoresha turi benshi, aho tuyakoresha mu bikorwa byinshi cyane bitandukanye, dore ko tuyakoresha iyo dukora amasuku mu rugo, tuyakoresha turi guteka, tuyakoresha turi kubaka, ndetse tukanayanywa, dore ko ari n'ingenzi ku buzima bwacu, rero akaba ari ngombwa ko twese tuyabungabunga tukayagirira isuku.

Kandagira ukarabe ni uburyo bwiza bwo kwirinda umwanda, ikaba yarakoreshejwe cyane cyane mu gihe cya korona virusi, aho abantu bayikoreshaga bakaraba intoki, mu buryo bwo kwikuraho imyanda z'ibyo babaga bafasheho muri icyo gihe, kubera ko icyorezo cyari kimeze nabi.

Gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ni byiza cyane dore ko ibingibi bituma mikorobe ziri ku ntoki zacu zivaho. Rero bikaba biturinda uburwayi bwinshi cyane butandukanye bushobora guterwa na mikorobe ziba ziri ku ntoki, bitewe n'ibintu twagiye dufataho byinshi cyane bitandukanye.

Amazi y'umugezi wa robine ni ingenzi cyane, dore ko yifashishwa n'abaturage mu bikorwa byabo bya buri munsi, aho bashobora kuyakoresha bayanywa, bakayakoresha mu bikorwa byo gukora amasuku mu rugo, mu gufurira imyaka mu gihe cy'izuba, ndetse n'ibikorwa byinshi cyane bitandukanye.

Inshinge cyangwa se inkingo ni zimwe mu miti y'ingenzi cyane aho abarwayi bamwe na bamwe badashobora kunywa ibinini basaba ko babatera inshinge aho kunywa ibinini, inshinge zimwe na zimwe rero zikaba zikoreshwa mu buryo bw'inkingo bwo kwirinda zimwe mu ndwara z'ibyorezo nka marburg ndetse na corona virus, ndetse n'izindi nyinshi cyane zitandukanye.

Guhohotera abana ni igikorwa kibi cyane dore ko kibagiraho ingaruka mbi cyane aho ushobora gusanga umwana wahohotewe ashobora kwiheba bikamwicira inzozi ze z'ahazaza, rero ni ngombwa ko buri muntu wese ubonye umwana uhohoterwa abigaragaza, akabibwira abashinzwe uburenganzira bwa muntu, bagakurikira uwahohoteye umwana akamukoresha imirimo imugoye itamukwiriye.

Abanyeshuri biga ibijyanye no kuvura, ni abantu bakwiye kwitabwaho kandi akaba ari abantu bakwiye guhabwa amahugurwa n'inama z'uburyo bakwiye kwitwara mu gihe cyabo cyo kwiga, kuko baba ari abantu bari gutegurwamo kuzavamo abaganga b'ejo hazaza, rero akaba ari ngombwa cyane ko baba abantu bafite disipurine, ndetse bitonda cyane.

Abanyabuzima ni abantu b'ingenzi muri iki gihugu cyacu dore ko bafasha Leta kubungabunga ubuzima bw'abaturage, aho bita ku buzima bw'abaturage bari hafi yabo, bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze, nko ku bagore batwite bakunda kwitabwaho n'abanyabuzima bakababwira iminsi yo kujya kwisuzumisha kwa muganga cyangwa se nk'abagore babyaye bakababwira nk'iminsi yo kujya gukingiza abana babo mu bitaro.

Ni ngombwa niba uri umuyobozi ukaba hari icyo wateguye kubwira abaturage cyangwa se abantu runaka ko wifashisha inyandiko cyangwa se ukagira ibyo utegura ku rupapuro uri buze kuganiraho n'abo bantu, mu kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza ndetse hato utaza no kubarambira cyangwa se bakakwinuba.

Kuba ubuyobozi bufata umwanya bukigisha abantu kwita ku buzima bw'abana ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bishobora gutuma ubuzima bw'abana bugenda neza, ni iby'agaciro cyane dore ko iyo umwana yitaweho avamo umuyobozi w'ejo hazaza kandi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, rero abana bakwiye kwitabwaho kubw'imbaraga z'igihugu ndetse no kubw'iterambere ry'igihugu.

Guhohotera abana ni kimwe mu bikorwa bitari byiza kubera kubidindiza imitekerereze y'abana ndetse bikica n'inzozi zabo. Akaba ari ngombwa rero ko buri muntu wese ubonye ahantu umwana ahohoterwa atangira amakuru ku gihe kandi UNICEF yita ku bana ibi ngibi ibishyishikariza buri muntu wese, kureba ko nta mwana uhohoterwa.

Iyo abayobozi bitabiriye amahugurwa runaka, bamanza bafata ifunguro rya mu gitondo, hanyuma bakaza kujya mu mahugurwa nyuma, ariko bakanibwirana, bakamenyana kuko haba hari ahandi hantu bashobora guhurira mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ngombwa niba hari amahugurwa cyangwa se inama yateguwe kuba dufite ahantu ho kwandika, kugira ngo tubashe gufata mu mutwe ndetse no kumva neza ibyavugiwe aho ngaho kugira ngo tuzabone uko tubishyira mu bikorwa nyuma y'amahugurwa cyangwa se nyuma y'inama.

Oni ni ikigo gishinzwe kwita ku mpunzi dore ko iki kigo gishinzwe kwita ku mpunzi zose igihe kibonye ahantu hose hagaragara umutekano muke rero iki kigo kikaba gicunga cyangwa se kikabungabunga umutekano w'aba bantu ndetse n'uburenganzira bwabo kibashakira ibyo kurya ndetse n'aho kuba.

Kwa muganga hari ibitanda byabugenewe bishinzwe kurazwaho abarwayi, aha ngaha ni mu gihe babona ko umurwayi arembye cyane, bamuha igitanda maze akaba arwariye kwa muganga, abaganga bakaba bamwitaho mu buryo bwihariye, bitandukanye n'uko bamwohereza mu rugo kuko baba babona ko aramutse agiye muru rugo cyangwa se agataha iwe mu rugo, uburwayi bwe bushobora kurushaho kuba bubi ndetse bikaba byatuma arushaho kuzahara.

Ahakirirwa abarwayi kwa muganga ni ahantu usanga, abarwayi bicaye bagiye kwivuza. Aho baba bategereje umuganga uribuze kubafasha, nuko muganga iyo yamaze kuhagera cyangwa se ahari bagenda bagenda ku muronko, agenda abafasha, bakagera ku baganga bakwiye kubaha ibyo bifuza, nk'imiti ndetse no kubavura uburwayi buba bwabaraje inshinga, bubazindura ndetse bajya ku bitaro.

Kwigisha abaturage ku bintu bitandukanye byaba ibijyanye no kubungabunga ubuzima bwabo, byaba ibijyanye n'imikorere mu buzima bwabo bwa buri munsi nko guhinga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ni ngombwa cyane kubera ko ibyo ngibyo nibyo bintu bituma abaturage biteza imbere maze bagatuma igihugu gitera imbere.

Abana ni bamwe mu bantu bakwiye kwitabwaho bagahabwa uburere ndetse bagahabwa amafunguro afite intungamubiri zuzuye dore ko iyo abana barezwe neza bahabwa uburere ndetse bakagaburirwa neza bakitabwaho bagakorerwa isuku, ari bo bavamo abayobozi b'ejo hazaza bityo igihugu kikazamuka mu iterambere ndetse no mu bindi bintu byose.

Urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo, ni ngombwa rero ko leta ibungabunga ubuzima bw'urubyiruko, ishyiraho ibikorwa remezo bibungabunga ubuzima bw'urubyiruko nko gusakaza imigezi ifasha urubyiruko gukaraba intoki mu buryo bwo kwirinda indwara ndetse urubyiruko rukabona n'amazi yo kunywa ahagije mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bwarwo kuko ari rwo Rwanda rw'ejo.

Iyo umubyeyi atwite, umugabo we aba agomba kumwitaho mu buryo bwihariye, akamufata neza, byaba na ngombwa rimwe na rimwe akamuruhura imirimo ye yo mu rugo, akamutegurira amafunguro nk'uko abajyanama b'ubuzima babitubwira, akajya amuba hafi cyane kugira ngo umwana atwite abashe gukura neza, azavuke ari umwana ufite ubuzima bwiza kandi uzagirira igihugu akamaro.

Imiti duhabwa n'abaganga iyo tuvuye ku bitaro, tuba dukwiye kuyikoresha neza nk'uko twabibwiwe, dore gukoresha imiti neza bituma ikibazo cy'uburwayi dufite kirangira ndetse tugakira, naho kuyikoresha nabi bikaba byakongera ikibazo cy'uburwayi, ndetse bikaba byatera n'ibindi bibazo bitandukanye ku buzima.

Iyo umubyeyi agiye gushaka amazi haba hari ibintu byinshi cyane yabonye mu rugo ko bigomba gutunganywa harimo nko gutegura amafunguro y'abo mu rugo, gutegura amafunguro y'abana bari burye bavuye ku ishuri, ndetse n'ibikorwa byinshi cyane bitandukanye bikoreshwa amazi birimo nko kumesa, gufuhira imyaka ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Si byiza guhohotera abana tubohereza kujya kuvoma amazi kuri robine, dore ko abana bashobora no kwanduza amazi avuye kuri robine, yakoreshwa no mu rugo akaba yatera ibibazo bitandukanye by'uburwayi, kubera ko nyine aba asa nabi, abana bayakubaganyije bari mu nzira.

Iyo abarwayi bageze kwa muganga hari ahabugenewe bicara bagatonda umurongo, maze bakagenda umwe kuri umwe uko bagiye bakurikirana kuza, maze abaganga bakabitaho bakababwira ikibazo bafite, ndetse bakabuvura n'uburwayi bafite, baba bafite n'ibisebe bakanabibomora.

Amazi avomwa ku migezi ya robine, ni amazi meza cyane yifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, harimo nko kubaka, guteka, kumesa ndetse no gukora amasuku yo mu nzu, abantu rero bakaba banayifashisha bayanywa, aho amazi ari ingenzi cyane ku buzima bwa muntu kubera ko usanga kimwe cya kabiri mu buzima bw'umuntu ari amazi, rero ni ingenzi cyane ko tugirira amazi isuku turi bukoreshe.

Gukaraba intoki ni ingenzi cyane kubera ko iyo dukarabye intoki hari mikorobe ndetse na virusi ziba zagiye ku ntoki zacu zivaho maze nk'iyo tugiye kurya dusoje gukaraba intoki aba ari byiza cyane cyangwa se iyo tuvuye kwihagarika mu bwiherero tugakaraba intoki naho aba ari byiza cyane kubera ko ibingibi bituma mikorobe ziri mu ntoki zacu zipfa.

Gutoza abana umuco wo gukaraba intoki ni ingenzi cyane kubera ko iyo bawukuriyemo bagira isuku maze bikabafasha mu minsi yabo y'ahazaza, dore ko gutoza abana ikinyabupfura ndetse n'umuco wo kugira isuku ari ingenzi cyane, kubera ko ari bo bavamo abayobozi b'ejo hazaza.

Ni ngombwa ko abaganga bakoresha ibikoresho byabugenewe, iyo bari mu kazi kabo ko kuvura abantu batandukanye, kubera ko habayeho kudakoresha biriya bikoresho byabugenewe nk'amataburiya ndetse n'amaga ashinzwe gukoreshwa mu gihe cyo kuvura, hashobora gutera ikindi cyorezo cy'indwara, kubera kudakoresha biriya bikoresho by'ubwirinzi bishobora kurinda abaganga indwara zishobora kuva ku barwayi, kubera ko bahura n'abarwayi batandukanye.

Amazi ya robine ni meza cyane, ariko rimwe na rimwe hari igihe abana bayanduza, nk'iyo abana bajya kunywera amazi kuri robine bakoresheje intoki, cyangwa se bakoresheje umunwa. Ibi ngibi bishobora gutuma habaho kwanduzanya indwara, kubera ko aba bana bashobora gukwirakwiza mikorobe nyinshi cyane zitandukanye, ziboneka ku ntoki zabo; bityo akaba ari ngombwa kurinda abana gukubaganya amazi.

Kandagira ukarabe ni kimwe mu bintu byakoreshejwe mu gihe cy'icyorezo cya Korona virusi ndetse n'icyorezo cya marubaga, igihe abantu bakarabaga intoki, mu buryo bwo kwica mikorobe zabaga ziri ku ntoki zabo, cyangwa se mikorobe zabaga zatera iyi ndwara ya korona virusi. Rero gukaraba intoki akaba ari igikorwa cy'ingenzi cyane buri muntu wese akwiye kwimakaza, kubera ko biturinda indwara nyinshi cyane zitandukanye, aho gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bituma mikorobe ziri mu ntoki zivamo.

Dukwiye kujya kwa muganga mu gihe twumva ubuzima bwacu butameze neza mu gihe twumva hari ahantu turibwa, kubera ko kuri iyi si igishoro cyonyine gusa dufite ni ubuzima bwacu. Rero ni ngombwa ko tujya kwa muganga bakadupima uburwayi twaba dufite, bityo basanga dufite uburwayi bakaduha imiti ijyanye n'uburwayi turwaye, bityo tukayifatira ku gihe maze ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza.

Mu cyaro iyo abantu bagiye mu murima, abasigaye mu rugo basigara bategura bimwe mu bintu byo kurya ndetse n'ibyo kunywa, maze igihe cy'i saa sita cyagera, bakabitegura, bakabibajyanira, nuko abari mu kazi bakaba bahagaritse akazi ho gatoya, bakabanza bafata amafunguro ndetse n'ibyo kunywa ndetse bakaba banaruhutse, nyuma gato basoza bakongera bagasubukura akazi, nuko mu masaha y'ikigoroba bakagasoza.

Mu bitaro ni ahantu hagenewe kwita ku barwayi batandukanye. Aho bakoresha ibikoresho bitandukanye mu buryo bwo kwirinda izindi ndwara z'ibyorezo zishobora kuva ku barwayi zijya ku baganga nk'udupfukamunwa, ndetse n'amataburiya, cyangwa se n'ibindi bikoresho byose by'ingenzi byifashishwa n'abaganga mu buryo bwo kwirinda indwara ku giti cyabo.

Niba umwana wawe ubona hari ibimenyetso bidasanzwe afite ukabona asa n'umwana warwaye ni ngombwa ko wihutira ku bajyanama b'ubuzima bakakubwira ikibazo afite hanyuma ukamujyana kwa muganga bityo umwana akitabwaho akaza gukira vuba maze ubuzima bugakomeza maze akaba yanagufasha gutera imbere.

Leta y'u Rwanda yashyize imigezi ya robine ahantu henshi cyane hatandukanye mu gihugu, ku buryo kugeza uyu munsi, amazi aboneka mu gihugu ahantu hatandukanye kandi akaba ari amazi meza, bityo bikaba byaragize ingaruka nziza ku baturage kubera ko bibafasha kubona amazi meza, bikabungabunga n'ubuzima bwa bamwe mu baturage b'igihugu.

Wasake ni ikigo gishinzwe kugena ibijyanye n'ikoreshwa ry'amazi mu gihugu cyose, aho ifasha abaturage kubona amazi asukuye kandi yujuje ubuziranenge, maze abaturage bakayakoresha, aho bayakoresha bateka ndetse banategura n'ibindi bikorwa bitandukanye, bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Amahugurwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane, kuko cyitabirwa n'abantu benshi cyane kandi batandukanye bo mu ngeri zitandukanye; aho abantu bigishwa uburyo bw'imikorere yabo ya buri munsi bakagirwa inama mu buryo bakoresha ku buryo bakwibeshaho ndetse bakigira, ndetse bakaba abantu biteje imbere banateza igihugu cyabo imbere.

Amazi ya robine ni amazi meza cyane aho leta yashyizeho imigezi yo guha abaturage amazi ariko nk'iyo bigeze mu gihe cy'impeshyi usanga ahantu henshi amazi yatangiye kubura kubera izuba ryinshi.

Ibikoresho dukoresha tubika amazi ndetse akaba ari nawo tuyakura iyo tugiye kuyanywa, ni ngombwa cyane kubikorera isuku, kubera ko iyo bikorewe isuku biba ari byiza cyane, kuko biturinda indwara nyinshi cyane zitandukanye zishobora kwibasira ubuzima bwacu.

Bamwe mu bana bafashwa n'umushinga wa UNICEF, usanga ari abana bafite uburere bukomeye cyane, kandi akaba ari abana biga bagatsinda, ndetse ugasanga ni abana bafite icyerekezo, cyo kuba bavamo abayobozi b'ejo hazaza, UNICEF rero akaba ari ikigo cyiza cyane, mpuzamahanga gifasha abana.

Niba dutegurira abana amafunguro yo kurya, dukwiye gutegura amafunguro arimo indyo yuzuye, arimo ibintu byose bisabwa kugira ngo umwana akure neza, dore ko iyo umwana akuze neza, ateza igihugu imbere ndetse n'inzozi ze zikarushaho kwaguka na we ubwe akiteza imbere.

Urubyiruko ni rumwe mu bantu b'ingenzi leta iba ifite, rero tukaba dukwiye kwita ku bana bacu tubungabunga ubuzima bwabo, aho dukwiye kubakorera isuku tukabagaburira cyangwa se tukabaha indyo yuzuye muburyo bwo kugira ngo bazagire igikuriro cyiza, haba mu bigaragara inyuma ku mubiri ndetse n'igikuriro mu buryo bw'imitekerereze.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu b'ingenzi cyane mu miryango yacu dore ko abajyanama b'ubuzima ari bamwe mu bantu bita ku buzima bw'ababyeyi batwite ndetse bakita no ku buzima bw'abana bakiri bato aho babazanira ibinini byo kubaha iyo gahunda ya leta yo gutanga ibinini birinda inzoka ku bana yageze ndetse abajyanama b'ubuzima bakaba ari bamwe mu bantu bafite akamaro mu gihugu cyacu.

Amazi ya robina ni amazi y'ingenzi cyane, yifashishwa n'abaturage mu bikorwa byabo byinshi cyane bitandukanye, aho bifashisha aya mazi mu gufurira imyaka yabo mu gihe cy'izuba kugira ngo imyaka yabo ituma, bakaba bayifashisha kandi mu buryo bwo kubaka cyangwa se mu gikorwa cyo kubaka, bakaba banayifashisha bateka, bakaba bayifashisha bamesa imyenda yabo ndetse banakora amasuku mu ngo zabo.

Dukwiye gukoresha amazi y'umugezi wa robine dore ko umugezi wa rubine uba ufite amazi asukuye meza cyane akaba ari ngombwa kuyakoresha dukaraba intoki igihe tugiye kurya ndetse n'igihe tuvuye muri tuwalete cyangwa se mu musarane ndetse n'igihe dusoje kurya cyane cyane kuyakarabya n'abana.

Ahantu hamwe na hamwe ni ngombwa ko tuharinda abana, cyane cyane ahantu hari amazi ya robine meza; dore ko abana bakunda gucokuza ibintu byinshi, bakaba bakubaganya amazi cyangwa se n'ibindi bintu byose, bakaba babyanduza. Ibi ngibi bikaba byavamo inkomoko y'indwara nyinshi zitandukanye, bitewe n'uko abana babikubaganyirije, bakabyanduza.

UNHCR ni ikigo kita ku mpunzi, iki kigo rero kikaba gishinzwe kwita ku mpunzi ku hantu hose hagaragaye intambara, ni mu gihe ikigo cya Unicefu cyo ari ikigo gishinzwe kwita ku bana ndetse no ku buzima bw'abana, ibi bigo byose rero bikaba byarifashishijwe mu gihe cyo kurwanya icyorezo cya Covid nineteen cyangwa se icyorezo cya Corona virus.

Uburere umwana ahawe akiri muto ni nabwo akurana. Rero ni ingenzi cyane ko ababyeyi batangira gutoza abana babo uburere bwiza, ndetse bakabatoza imico myiza yo kugira ikinyabupfura ahantu hose bageze ndetse bakanabatoza umuco wo kubaha kubera ko ibingibi bibafasha mu minsi yabo y'ahazaza.

Iyo abantu bo mu giturage bahuye, baganira ku ibibazo bitandukanye birimo nk'ibibazo by'abaturage cyangwa se bakaba baganira ku bintu bijyanye n'ubuhinzi n'uburyo bafatanya mu kugira ngo bazamure ubuhinzi bwabo n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Iyo umuntu afite ibibazo byinshi byamurenze adashoboye kwihanganira ni ngombwa ko yitabaza abantu bamuba hafi ndetse n'abaganga bamufasha, dore ko iyo bitagenze bityo ashobora kurwara indwara ishobora gukomoka ku kugira agahinda gakabije, ibi ngibi bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu.

Niba wumva wahuye n'ikibazo gikomeye cyane, ujye witabaza zimwe mu nshuti zawe ufata nk'inshuti magara zikugire inama, aho kwigunga ukagumana ibibazo byawe wenyine, kubera ko kwigunga cyane ukagumana ibibazo ntagire uwo ubibwira, bishobora kugutera ikibazo cyo kurwara indwara ituruka ku kugira agahinda gakabije, ibyo ngibyo bikaba byashira ubuzima bwawe mu kaga.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane, hakabaho kugirwa inama ku bantu bahuye n'ibibazo byo kugira agahinda gakabije, mu buryo bwo kubagarurira ubuzima dore ko ibi ngibi biramutse bitabayeho, habaho kurwara indwara ituruka ku kugira agahinda gakabije, kandi ishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga.

Ikibazo cy'ubukene ni ikibazo gishobora gutera ingeso nyinshi cyane zitandukanye ndetse kikaba ari ikibazo gishyira ubuzima bw'umuntu mu kaga, aho umuntu arya indyo ituzuye rero akaba ari ngombwa cyane ko twese dukura amaboko mu mifuka tugakora cyane tukarwanya ubukene, dore ko ubukene ari umwanzi mubi cyane utuma tubaho nabi

Uburezi ni kimwe mu bintu by'ingenzi Leta ishyiramo imbaraga, kubera ko iyo uburezi buri ku kigero cyiza, ndetse bufite n'ireme habaho kuzamuka cyane mu iterambere ry'igihugu, akaba ari ngombwa cyane rero ko Leta ishora imari mu burezi, kubera ko uburezi ari yo nkingi y'iterambere ry'igihugu.

Amahugurwa ni igikorwa cy'ingenzi gitangirwamo inyigisho zitandukanye, bakigisha abaturage uburyo bakwiye kubaho, bakigisha abaturage uburyo bakwiye kwiteza imbere, amahugurwa rero, akwiye gutegurwa kenshi cyane mu buryo bwo kugira ngo bitume abaturage baguka mu mutwe cyangwa se baguka mu bitekerezo bityo igihugu gitere imbere binyuze mu baturage.

Umwana ni umumarayika kandi umwana ni umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bw'igihugu, avuze byinshi rero ku mubyeyi we dore ko iyo umwana avutse aba ari ibyishimo bikomeye cyane ku muryango kuko umuryango uba wungutse umuntu mushya by'umwihariko n'igihugu kiba gikwiye kwishima cyane dore ko kiba cyungutse undi muntu ugiye kongera itafari ku iterambere ry'igihugu.

Iyo umwana agenda akura, akenera kwitabwaho cyane, ku buryo yagakwiye kugira abantu bamuba hafi, bamwigisha ku bijyanye n'imyororokere ye kugira ngo hatagira ikibazo ahura nacyo cyo kuba yagira ikibazo cyo mu mutwe kubera kubitekerezaho bitewe n'uko umubiri we ugenda uhindagurika.

Kwita ku Rubyiruko cyane cyane abana bakiri bato bahabwa uburere ni ibintu by'ingenzi cyane kubera ko iyo abana bahabwa uburezi n'abarimu ndetse bakabaha uburezi bufite ireme bituma bakura neza bakagirira igihugu akamaro kubera ko aba bana bavamo abayobozi b'ejo hazaza bityo igihugu kigakomeza gutera imbere.

Gutegura inama zungura urubyiruko ubwenge ni ingenzi cyane dore ko ibiin ngibi bituma urubyiruko rugira icyo rwigira muri iyo nama, harimo nko kwihangira imirimo cyangwa se n'ibindi byinshi cyane bitandukanye bishobora kuvugirwa muri iyo nama, ibingibi bikaba biba inzira nziza y'urubyiruko yo kwibeshaho ndetse bakigira mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu nama iyo umuntu atanga igitekerezo abitabiriye inama bose baba bagomba kumutega amatwi bakumva igitekerezo cye maze yamara kugitanga bakagira icyo bakivugaho ndetse byaba ngombwa cyaba ari igitekerezo cyiza bakacyitaho bakaha ubugororangingo bakareba uburyo bagiteza imbere maze byaba ngombwa bakanakigenderaho.

Mu gihugu cy'u Rwanda ibikorwa byo kwita ku mahoro, ni kimwe mu bintu bishyizwe imbere cyane kubera ko amahoro ndetse n'ubworoherane ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane, mu kugira ngo abaturage babeho batekanye. Bityo iyo hari umutekano ndetse n'ubworoherane, abantu bashobora gutera imbere; ndetse n'igihugu kikagira iterambere rirambye cyane.

Abana iyo bahuye na nyirakuru baba bishimye cyane, dore ko baba bumva buri igihe cyose bakwibera kumwe na nyirakuru, bitewe n'uko bakunda kuba bafatwa neza na banyirakuru. Rero akaba ari ngombwa cyane ko rimwe na rimwe ababyeyi bajya barekura abana bakajya gusura banyirakuru bakanabafasha imirimo imwe n'imwe banyirakuru batishoza.

Ihohoterwa ni kimwe mu bikorwa bibi cyane byangiza ndetse bikadindiza iterambere ndetse n'inzozi z'urubyiruko, dore ko twese hamwe dukwiye kurwanya ihohoterwa ndetse tugatangira amakuru ku gihe aho tubonye umuntu yahohotewe.

Kurera abana bagakura neza, ni kimwe mu bikorwa byiza bishobora gutuma igihugu kizamuka mu iterambere mu buryo bwihuse cyane, kubera ko iyo abana bakuze neza mu buryo bw'igihangano ndetse mu buryo bw'imitekerereze bakavamo abayobozi beza nibo bayobora igihugu neza bakakigeza aheza ndetse bakakigeza no ku iterambere rirambye.

Ifoto y'urwibutso ni ngombwa cyane, dore ko iyo dufite ifoto y'urwibutso bituma iyo tuyirebye twibuka byinshi cyane, igihe twifotoza iyo foto twakoraga, rero akaba ari ngombwa cyane niba hari igikorwa cyagushimishije kwifata ifoto y'urwibutso kugira ngo icyo gikorwa ujye ucyibuka.

Tugomba kubaho twishimiye ubuzima tubayemo dore ko kunyurwa ari kimwe mu bintu bishobora gutuma ubuzima bwawe bukomeza kugenda neza, ugakomeza kubaho ubuzima bwiza aho kwifuza ibintu udashoboye kubona, ukabaho mu buzima bwawe kandi ufitiye ubushobozi.

Mu gihe cy'amahugurwa iyo amahugurwa arangije gutangwa, hari igihe rimwe na rimwe abahuriye aho ngaho basabana, bakabyina ndetse bakizihirwa cyane ndetse bakanamenyana, ugasanga n'ibintu byiza cyane aho ibyigiwe aho ngaho bifatwa buri muntu wese akabizirikana maze akagenda akabishyira mu bikorwa.

Abaganga ni abantu b'ingenzi ku buzima bwacu ndetse bakaba abantu b'ingenzi ku gihugu cyacu, kubera ko ari abantu bita ku bibazo by'abarwayi bakabavura bakabaha imiti, bityo abaturage bagakomeza bagakora bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'iterambere ry'igihugu rikazamuka.

Kwihutira kwa muganga ni igikorwa cyiza cyane, dore ko iyo wumvise utameze neza mu mubiri ukajya kwa muganga, bagufasha bakagukemurira ikibazo mu maguru mashya, aho gutegereza ugasanga ushyize ubuzima bwawe mu kangaratete, kubera ko ikibazo cyawe watinze kukijyana kwa muganga. Ugasanga cyarazamutse cyane kuri rwa rugero badashobora kugufasha neza, ugasanga uhaburiye ubuzima. Ni ngombwa rero ko twihutira kwa muganga niba twumva tutameze neza.

Niba wumva ufite ikibazo cy'amenyo wumva uribwa n'amenyo ihutire kujya kwa muganga kugira ngo hatavuka ibindi bibazo bishingiye no kurwara mu kanwa, abaganga barebabe ikibazo ufite bakuvure baguhe imiti cyangwa se nibiba ngombwa iryo ryinyo rikaba ariryo gukurwa babe barikura kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza.

Ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo ni ikibazo gikunze kwibasira abantu benshi cyane, harimo nko kuba amenyo ashobora no guterwa no kutoza mu kanwa ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bityo akaba ari ngombwa cyane kujya kwa muganga bakagufasha, niba ufite ikibazo cy'ayo cyangwa se amenyo ari kukurya kugira ngo ubungabunge ubuzima bw'amenyo yawe ndetse n'izindi ndwara zishobora no kwataka cyangwa se gufata mu kanwa.

Iyo umwana agize ikibazo cyo kugira uburwayi, ni ngombwa cyane kumwihutishiriza kwa muganga kugira ngo abaganga babone uko bamwitaho, uburwayi bwe bukire vuba; dore ko umwana iyo yitaweho haba harerewe Igihugu doreko kandi umwana ari we uvamo umuyobozi w'ejo hazaza, rero ni ngombwa ko twese twita ku bana kuko arizo mbaraga z'Igihugu.

Iyo umwana agejeje kwa muganga bitewe n'ikibazo cy'uburwayifi ahabwa imiti na muganga bityo ubuzima bw'umwana bugakomeza kugenda neza. Hanyuma umwana yamara gukira akaba umuntu w'ingirakamaro ndetse akagirira umuryango akamaro ndetse n'igihugu ndetse nawe ubwe akigirira akamaro bityo igihugu kigakomeza kigatera imbere.

Ni byiza gutoza umwana kwita ku menyo ayakorera isuku, akoresheje uburoso, korogati ndetse n'amazi meza, kubera ko iyo umwana agize isuku kuva akiri mutoya kugeza abaye mukuru, ibi ngibi bituma akura neza maze bikamutegurira kuzabaho neza mu minsi y'ahazaza, nta kibazo afite cy'ubuzima.

Amenyo yacu ni ingenzi cyane dore ko dukwiye kuyitaho mu buryo bwinshi cyane butandukanye aho dukwiye kuyoza dukoresheje amazi meza ,uburoso ndetse n'umuti wabugenewe ukwiye koza amenyo mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bw'amenyo, dore ko ari igice cy'ingenzi ku mubiri wacu dukwiye kwitaho.

Gukorera isuku amenyo yacu, ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane, bikwiye kwifashishwa n'abantu bose, baba abana cyangwa se abantu bakuru kubera ko iki gikorwa cyo koza amenyo yacu, kirinda amenyo yacu kwangirika ndetse no kurwara indwara za hato na hato, zishobora kwibasira amenyo yacu, bigatuma tujya ku bitaro kuyivuza.

Amenyo yacu iyo asukuye asa neza atuma tugaragara neza, nk'iyo dusetse mu bandi bituma babona ko nyine dufite amenyo asa neza, bityo rero akaba ari ngombwa dukora isuku ku mubiri wacu twoza amenyo yacu ndetse tunita ku mubiri wacu, kubera ko ni ngombwa kwita ku mubiri wacu kuko ari cyo gisho cyonyine gusa dufite kuri iyi Si.

Amenyo yacu akwiye gukorerwa isuku, cyane cyane igihe dusoje kurya, kubera ko igihe dusoje kurya, hari imyanda itandukanye iba yavuye mu byo twariye isigara mu menyo, akaba ari ngombwa rero cyane ko umuntu yoza amenyo igihe cyose asoje kurya.

Iyo wumvise amenyo arimo kukurya wumva utameze neza wihutira kujya kwa muganga maze abaganga bakareba ikibazo ufite ukabereka aho uribwa maze bakareba uko bagufasha maze bakakugenera imiti ijyanye n'uko urwaye cyangwa se byaba ngombwa ayo menyo yawe babona ari iryinyo rirwaye cyane kurusha ayandi rishobora no kuba ryateza andi menyo akarwara nayo bakaba barikuramo ubuzima bugakomeza kugenda neza.

Kwita ku menyo yacu tuyagirira isuku ndetse tuyarinda na bimwe mu bintu bishobora kuba byayangiza ni ingenzi cyane kuko amenyo ni kimwe mu bice by'ingenzi by'umubiri dufite by'ingenzi cyane dore ko amenyo tuyakoresha turya, tukayakoresha duseka rero akaba ari ngombwa kuyagirira isuku ndetse tukagira n'isuku yo ku mubiri wacu mu buryo bw'umwihariko.

Dukwiye gutoza abana umuco wo kugira isuku ndetse no kwita ku menyo, dore ko amenyo ari kimwe mu bice by'ingenzi bigomba kwitabwaho, dore ko n'iyo bititaweho hashobora kuvuka indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda wo kutita ku menyo, harimo nko kurwara amenyo bakaba bayakura ndetse n'ibindi bibazo byinshi cyane bitandukanye.

Kwita ku menyo yacu tuyarinda ibiyangiza ni ingenzi cyane dore ko amenyo afite akamaro kanini cyane ku mubiri aho amenyo tuyakoresha turya ibiryo ndetse amenyo tukaba tunayakoresha iyo turi uguseka rero tugomba kwita ku menyo yacu kuko ari ingenzi cyane.

Iyo dusukura amenyo yacu dukwiye gukoresha uburoso bwiza, busa neza, kandi tugakoresha corogati nziza idashobora kwangiza amenyo yacu, dore ko amenyo ari kimwe mu bice by'ingenzi dufite, dore ko tuyifashisha iyo turi kurya, ndetse n'iyo turi guseka amenyo aradufasha cyane, dore ko kandi amenyo yacu yangiritse twaba duhombye ikintu gikomeye cyane ninayo mpamvu tugomba kuyitaho.

Dukwiye kwivuza kare mu gihe twumva umubiri wacu utameze neza tukajya kwa muganga bagasuzuma uburwayi turwaye, hanyuma wasanga turwaye bakatugenera imiti ijyanye n'uburwayi turwaye bityo bikaba byadufasha kugira ubuzima bwiza, tugakomeza ibikorwa byacu bya buri munsi.

Ni ngombwa kwita ku menyo yacu tuyasukura tuyoza n'amazi meza na korogati ndetse n'uburoso, tukirinda bimwe mu bintu dushobora gushyira mu menyo byakwangiza cyangwa se bikaba byatera uburwayi ku menyo yacu kubera ko amenyo yacu ni rumwe mu rugingo rw'ingenzi dufite ku mubiri, dore ko tuyakoresha turya ndetse n'iyo duseka turayakoresha, tugomba rero kuyitaho.

Hagati yacu kuri iyi si habaho amoko atandukanye y'abantu, baba abazungu ndetse n'abirabura, ariko twese turi abantu kandi twaremwe n'Imana, niyo mpamvu tugomba guseka, tukishima kandi tukagira ubumwe dore uko urukundo ari byose, iyo ukunda mugenzi wawe ntiwamwifuriza ikibi, rero dukwiye gukundana tugafashanya ndetse tugaseka mu byiza no mu bibi.

Iyo umugore n'umugabo bishimye bakina, aba ari byiza cyane kubera ko biba bigaragaza ko umuryango ubayeho mu buzima bwiza, kandi ibingibi bituma abana babaho bafite urukundo ndetse bakishimira ababyeyi babo kubera ko babereka ko bishimanye kandi bafitanye urukundo.

Gukora siporo ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri ni bimwe mu bintu byiza cyane ku buzima bwacu, kubera ko bigira ingaruka nziza ndetse bigira akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu; dore ko umuntu ukora siporo aba afite ubuzima bwiza, ndetse imikorere y'umubiri, iba yuzuye ubudahangarwa cyane ku buryo nta ndwara imwe n'imwe ishobora kumufata.

Kurya indyo yuzuye irimo; imboga, imbuto, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, ni ingenzi cyane ku buzima bwacu dore ko bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi ndetse no mu buzima bwacu ugasanga dusaje neza kandi dufite ubuzima bwiza.

Iyo abana basangira na sekuru baba baganira ibintu byinshi cyane bitandukanye aho sekuru ashobora kubagira inama ndetse akanababwira uko bari babayeho mu minsi ya kera abagereranyiriza n'uko abana muri icyo gihe cyabo byari bimeze, akaba yababwira ibyo bakwiye kwitondera ndetse n'uburyo bakwiye kubaho.

Iyo umubyeyi afashe umwanya agakina n'umwana ni ingenzi cyane kubera ko ibi ngibi bituma umwana amwisanzuraho ndetse ntamutinye ndetse kandi ibingibi bituma urukundo rw'umubyeyi n'umwana ruzamuka bakajya babana buri munsi ndetse umwana akunda umubyeyi we cyane kurusha ibindi byose.

Mu muryango ni ahantu hakwiye guhora ibyishimo kubera ko umuryango w'ukuri, ukwiye kuba ufite abantu bakundana, bishimanye, mbese ibi ngibi, biba isoko y'uburere bwiza ku bana bakurira mu muryango, bakagira ahazaza heza kubera uburere bwiza bahawe n'ababyeyi babo cyangwa se abandi bantu babarera.

Iyo mu muryango hari umutekano abantu bose bishimye, aba ari byiza cyane kubera ko umuryango ni yo soko y'uburere kandi abana baba bakwiye kubona ibyishimo igihe bakiri bato kandi bagahabwa uburere bwimbitse, dore ko ari bwo bubafasha mu minsi yabo y'ahazaza.

Ni iby'ingenzi cyane kandi ni iby'agaciro, kwita ku bantu bafite ubumuga, mu buryo bwo kubafasha kugira ngo na bo bibone ko ari abantu nk'abandi. Dore ko iyo dufashije abantu bafite ubumuga, tubafasha kwiyumva neza, bakiyumva nk'abantu nk'abandi. Ibi ngibi bikaba bibarinda kugira, ibitekerezo byinshi cyane, bibaganisha ku kubona ko atari abantu; ndetse bikaba byanabafasha kwigirira icyizere, na bo bakagira icyo bakora, kubera ko babona bitaweho na bagenzi babo, bakanabasekera.

Gufata indyo yuzuye, ni bimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza, dore ko iyo umuntu afata indyo yuzuye, irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, bidashoboka ko yafatwa n'indwara ibonetse iyo ariyo yose kubera ko aba afata indyo yuzuye.

Niba kwa muganga baguhaye ibinini ni ngombwa ko binywera ku gihe kugira ngo ubashe gukira uburwayi bwawe vuba, kuko kutanywera ibinini ku gihe cyangwa se imiti baguhaye, bishobora gutera ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane ugasanga bwa burwayi bwawe burushijeho kwiyongera aho kugira ngo bugabanuke.

Igihe twasoje imirimo yacu dukwiye gushaka umwanya wo kujya gukora siporo kandi tukabigira nk'umuco kubera ko siporo ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane bifasha umubiri wacu dore ko siporo igabanya umubyibuho ukabije, ikagabanya ibinure byo mu mubiri, rero akaba ari ngombwa cyane ko buri muntu wese warangije akazi nta kindi kintu akora akwiye kwitabira siporo.

Iyo habaye ibyago abantu bakajya gutabara uba usanga abantu batishimye bitewe n'uko ibyago ni ibintu biba bikomeye cyane usanga rimwe na rimwe abantu babuze umuntu mu muryango, abagore bakajya kurarayo ndetse n'abagabo, aha ngaha buri muntu wese usanga ababaye bitewe n'ibyabaye.

Imyitozo ngororamubiri ni imwe mu myitozo ifasha umubiri wacu kugorora ingingo z'umubiri wacu, umubiri wacu ukabaho umeze neza kandi dufite ubuzima bwiza, dore ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ahora afite ubuzima bwiza kandi akaba afite ubudahangarwa bukomeye cyane kubera gukora iyo myitozo ngororamubiri, akaba hari n'indwara zidashobora gufata umubiri we.

Iyo uhawe ibinini na muganga aba ari ngombwa cyane kubahiriza gahunda uhawe na muganga kubera ko iyo wubahirije neza gahunda wahawe na muganga, uburwayi burakira kandi neza cyane kandi nanone n'iyo habayeho kutubahiriza kubahiriza gahunda y'ubwo buryo bwo gufata imiti uhawe na muganga, ushobora kugira ikibazo cyo kwiyongera k'uburwayi ugasanga ushize ubuzima bwawe mu kaga.

Bimwe mu bikoresho dukoresha iyo twiga harimo nk'imashini, projecteur. Ibi ngibi biradufasha cyane mu myigire yacu ya buri munsi. Dore ko bidufasha kwiga neza ndetse bikanatuma tubona amakuru yose dukeneye nko gukoresha imashini bituma ujya kuri internet maze waba ufite interinet ugasacinga amakuru atandukanye bakaguha ibijyanye n'ibyo wifuza bigatuma imyigire yawe yihuta.

Mu Rwanda dufite ibigo bitandukanye, haba ibigo byita ku bukerarugendo cyangwa se ibigo byita ku iterambere ry'Igihugu. Ariko hano reka turebe ku kigo cyita ku buzima bw'abaturage, kubera ko iki kigo gishishikariza abantu bose kwirinda uburwayi butandukanye, ndetse no gutangira amakuru ku gihe, igihe babonye hari ibimenyetso bidasanzwe, umuntu yaba afite ku cyorezo runaka, ndetse akihutira no kujya kwa muganga, mu buryo bwo kugira ngo icyo cyorezo kitarinda cyakwirakwira mu baturage bose.

Mu nama buri muntu wese aba agomba gutuza ndetse agatega amatwi, akumva icyo uwateguye inama abagezaho ndetse akagira n'icyo atahana bitewe n'icyatumye aza muri iyo nama.

Ni ngombwa ko niba abaganga bagiye muri raboratwari hari ubushakashatsi bagiye gukora ku kintu runaka, bagenda birinze cyane, bafite ibintu bambaye bibarinze, harimo nk'agapfukamunwa, amaga ndetse n'amataburiya, kubera ko ibingiibi bidakozwe hashobora gutezwa ibibazo bikomeye cyane, bishobora kugaragazwa n'ibintu biba muri raboratwari.

Idini ya Isilamu ni idini yashinzwe na Muhamadi, ikaba ari idini ifite imigenzo igenderaho, aho idini ya Isilamu igira iminsi mikuru itandukanye nk'irayidini ndetse n'izindi minsi mikuru zitandukanye, kandi iyi dini akaba ari idini igendeye ku rukundo rw'Imana.

Kuboneza urubyaro ni igikorwa cy'ingenzi cyane, dore ko bifasha leta gutera imbere ndetse bikaba binafasha abaturage kwiteza imbere, kubera ko haba habayeho kubyara abo dushoboye kurera ndetse tunashoboye gukorera buri kimwe cyose badusaba.

Diyabete ni indwara mbi cyane kandi yica, ikaba ihitana umubare munini cyane hano ku Isi, bityo abaganga bakaba batugira inama yo gukoresha isukari mu rugero cyangwa se byaba ngombwa umuntu udakora siporo ntakagire afata isukari akajya ayibonera mu biribwa dufata bya buri munsi nk'ibijumba ndetse n'ibisheke.

Twitabira ibirori bimwe na bimwe mu buryo bwo kwishimisha aho usanga ibigo bimwe na bimwe mu gihugu byateguye ibyo birori kubera umunsi mukuru cyangwa se kubera kwizihiza umunsi mukuru runaka wabaye.

Kanseri n'indwara mbi cyane kandi yica, akaba ari ngombwa cyane ko twirinda ubu burwayi tuzirikana bimwe mu bintu bishobora gutera uburwayi, dore ko iyo wanduye ubu burwayi ushobora no kuba wapfa, rero ni ngombwa cyane ko twirinda kanseri iyo ariyo yose, yaba iyo mu' ibere, cyangwa se kanseri ishobora gutuma bimwe mu bice by'umubiri babi bikata.

Ubuzima bw'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, ni ubuzima bw'abantu bakwiye kwitabwaho dore ko abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi baturage bo mu bindi bihugu ari abantu b'ingenzi dore ko aribo bantu bavanwamo abayobozi b'icyo gihugu ndetse bakanagiteza imbere.

Kurwanya sida ni ibintu bikwiye kwimakazwa na buri muntu wese ndetse buri muntu wese akabigira ibye dore ko sida itigeze ihagarara kandi ikindi buri muntu wese akwiye kwibuka ko sida nta muti nta n'urukingo ifite niyo mpamvu ari icyorezo gikwiye kurwanywa na buri wese kubera ko muri iyi minsi abantu benshi bari kucyandura.

Ni ngombwa ko twirinda indwara ya kanseri, kubera ko indwara ya kanseri ni indwara mbi cyane igira ingaruka ku buzima bw'umuntu; aho dushobora kwirinda indwara ya kanseri dukora siporo nyinshi cyane, twirinda kurya ibintu birimo amavuta ndetse n'ibindi bintu byose bifitanye isano no kuba byatera uburwayi bwa kanseri.

Ubuzima bwiza ni kimwe mu bintu bituma duhora tubayeho neza kuko ni byiza gufata indyo yuzuye ndetse ukayifatira no ku gihe, kugira ngo ubungabunge ubuzima bwiza bwawe ndetse wirinde n'indwara zimwe na zimwe zishobora kwataka cyangwa se gufata ubuzima bwawe.

Iyo umubyeyi atwite aba agomba kwitabwaho ndetse igihe cyo kubyara iyo kigeze inda irimo kumurya aba agomba kujyanwa kwa muganga, akitabwaho n'abaganga kugira ngo umwana avuke ameze neza, dore ko iyo umubyeyi abyariye mu bitaro umwana avuka ameze neza kubera ko aba yitaweho n'abaganga.

Ubuzima bw'abana ndetse n'ubuzima bwa buri wese ni ubuzima bukwiye kwitabwaho cyane ariko cyane cyane ubuzima bw'umwana ukiri muto, kubera ko iyo umwana yitaweho akiri muto agira akamaro gakomeye cyane ku gihugu maze akacyubaka ndetse n'iterambere rya Afurika rikazamuka.

Inzu y'ababyeyi. Ni inzu aho ababyeyi bitabwaho iyo bagiye kubyara cyangwa se iyo bafite ibindi bibazo byinshi cyane bitandukanye rero hakaba hari abaganga babigenewe banabizobereye bakwiye kwita ku babyeyi ndetse bakaba bahabwa ibikoresho byinshi cyane bitandukanye kugira ngo hataba habaho kwanduzanya indwara hagati y'aba baganga ndetse n'abo babyeyi

Mu bitaro haba hari ibitanda bigenewe abarwayi bityo ibi bitanda akaba ari ingenzi cyane kuko byifashishwa mu kwakira abarwayi bafite uburwayi bukabije cyane, ba bandi twita ko ari indembe, bakaba baharwariye mu gihe runaka, bazakira bagasubizwa mu miryango yabo kuko uburwayi bwabo abaganga baba babona ko ari ngombwa ko bakwitabwaho bari mu bitaro.

Ibidukikije birimo ibikorwa remezo, imihanda ndetse n'abantu, ni bimwe bituma ni bimwe mu bituma isi yacu irushaho kuba nziza, dore ko bimwe mu bidukikije biduha umwuka mwiza ndetse na bimwe mu bikorwaremezo, bigatuma tubona ibyo gukoresha cyangwa aho gukorera nko mu masoko ndetse no mu mihanda.

Iyo abayobozi bateguye amahugurwa hari inama bashatse kugira abaturage haba hari abantu bakwiye gufata amashusho y'ibyavugiwe ahongaho kugira ngo nyuma bazagaragaze bimwe mu byakorewe mu nama cyangwa se amafoto agaragaza koko ko iyo nama cyangwa se ayo mahugurwa yatanzwe.

Bimwe mu bikorwa remezo leta yashyizeho, byifashishwa n'abaturage mu gukemura ibibazo byinshi cyane, bibugarije bitandukanye, harimo nk'ibiro bikoreramo ubuyobozi bw'umurenge, ibiro bikoreramo ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ibindi bitandukanye, ibi ngibi bikaba ari ingenzi cyane, mu buryo bwo kuzamura iterambere ry'igihugu.

Laboratwari ni inzu y'ubushakashatsi aho ifite nayo amategeko n'amabwiriza ayigenga ku bijyanye n'imikoreshereze yayo. Dore ko laboratwari iyo ikoreshejwe nabi cyangwa se umuntu akayikoresha mu buryo butajyanye n'amabwiriza yayo hashobora kubaho ibibazo bitandukanye bikaba byateza ikibazo ku buzima bwa muntu.

Iyo umuntu arwaye agomba kwihutira kwa muganga bakamusuzuma bakareba ikibazo afite kandi n'abaganga ni abantu b'ingenzi cyane bafite inshingano zo kwita ku barwayi nkuko bikwiye, aho bakumenyera uburwayi urwaye bakaguha imiti ukwiriye maze bikaba byafasha umubiri wawe gukora neza ndetse n'ubwo burwayi bugakira vuba.

Iyo abaganga bari kugira ibyo basuzuma mu bitaro, baba bagomba kuba bafite ibintu bibarinda cyangwa se bisa naho twabyita ubwirinzi, kubera ko iyo hatabayeho kwirinda kwa muganga, abaganga bashobora gufatwa n'indwara zitandukanye, ziva mu bintu bakora cyangwa se ziva mu barwayi bakira buri munsi batandukanye.

Iyo umubyeyi yabyaye aba akwiye kwitabwaho cyane ahabwa ibiribwa byujuje intungamubiri kugira ngo umubiri we ukomeze kwisana dore ko iyo yabyaye hari ibiro cyangwa se hari imbaraga aba yatakaje ndetse n'umubiri we ukaba hari ibintu byinshi cyane uba watakaje bityo umuryango ukaba ukwiye kwita ku mubyeyi wabyaye ndetse no ku mwana kugira ngo umwana azakure neza.

Abarwaza ni abantu b'ingenzi kuko baba bakenewe mu bitaro kugira ngo bite ku barwayi ndetse banafashe abaganga mu bikorwa bimwe na bimwe nko kwakira abaje gusura abarwaza mu bitaro ndetse no gukorera isuku abarwayi bari mu bitaro.

Ibigo nderabuzima ni bimwe mu bikorwa remezo leta yagerageje gushira ahantu henshi cyane kandi hatandukanye mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bw'abaturage kugira ngo igihugu kibeho gifite abaturage beza kandi bafite ubuzima buzira umuze.

Iyo umubyeyi atwite, aba ari ngombwa cyane kujya kwa muganga bakamuha iminsi agomba kujya kwipimishirizaho. Kubera ko iyo agiye ajya kwipimisha bamenya uko ubuzima bwe buhagaze, ndetse n'ubuzima bw'umwana atwite, bityo bigatuma ubuzima bwe ndetse n'umwana bukomeza kugenda neza.

Amashuri ni bimwe mu bikorwa remezo igihugu cyifashisha mu buryo bwo kuzamura ubushobozi bw'abaturage mu buryo bw'imitekerereze ndetse n'imyumvire cyane cyane abaturage bakiri abana batoya dore ko igihugu cyifashisha amashuri mu buryo bwo gutegura aba bana batoya nk'abayobozi bejo hazaza biki gihugu.

Mu bitaro ni hamwe mu hantu hakwiye kwitabwaho cyane cyane hariya hantu haba hahuriye abarwayi benshi haba hakwiye gukorerwa isuku ya buri kanya ndetse n'abaganga bakaba bagomba kuyinjira bafite ibikoresho byabo by'ubwirinzi kubera ko bashobora kuhakura indwara zitandukanye zikomoka muri bariya barwayi baba baryamye muri biriya bitanda rero akaba ari ngombwa cyane ko bakora isuku ya buri munsi ihoraho.

Ibitaro n'igikorwa remezo cy'ingenzi cyane cyifashishwa n'abaturage mu kubungabunga ubuzima bwabo, aho bakifashisha bisuzumisha kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze ndetse naho bakifashisha aho bajya kwivuriza uburwayi bwabo kugira ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Ibikorwa remezo ni bimwe mu bikorwa byinjiriza Leta amafaranga ndetse bigafasha n'abaturage mu mikorere yabo ndetse no kwihangira imirimo, aho ibikorwa remezo bishobora kwifashishwa mu gucuruza nk'amasoko cyangwa se nk'ahakorerwa ibitaramo, cyangwa se sale zikorerwamo inama aho nazo zakwifashishwa, mu gukora ibintu byinjiriza abaturage cyangwa se Leta.

Laboratwari ni inzu y'ubushakashatsi, aho yifashishwa n'abanyeshuri bakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye cyangwa se biga ku bintu bitandukanye, bikaba ngombwa ko bajya gukora ubushakashatsi muri laboratwari cyangwa se ikaba ari inzu yakwifashishwa n'abaganga, aho baba bakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye bitewe n'ibyo bakoraho ubushakashatsi.

Ibitaro byita ndetse bikanavura uburwayi bw'amaso ni ingenzi cyane hano mu gihugu cyacu dore ko byita ku baturage benshi cyane batandukanye aho bibavura amaso ndetse bakira bakajya gukomeza imirimo yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bigatuma bagira iterambere ndetse bagateza n'igihugu cyacu imbere.

Bitewe nuko ikigonderabuzima ari ikigo cy'ingenzi cyane gikwiye kubungwabungwa cyane dore ko ikigonderabuzima cyita ku buzima bw'abaturage, aho abaturage baruvurwa indwara zitandukanye bagahabwa imiti ibafasha gukira uburwayi bwabo rero ni ngombwa ko ikigonderabuzima kitabwaho kigasukurwa ndetse kigahabwa n'ibindi bintu bitandukanye bishobora gutuma gikora neza.

Leta y'u Rwanda yashyizeho Minisitiri y'ubuzima mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Ni muri urwo rwego rero Leta yanashinze Kaminuza ndetse inashinga ibitaro, abanyeshuri bamwe na bamwe biga ibijyanye n'ubuzima bakwiye kujya kwiga cyangwa se gushakashaka mu buryo bwo kuvura abaturage, cyangwa se kwita ku buzima bw'abaturage. Ndavuga abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima, cyangwa se kuvura.

Mu bitaro, ni ahantu abarwayi bitabwaho aho bahabwa imiti ndetse bagahabwa na serivise z'ubuzima zitandukanye kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza, nyuma y'igihe kitari gito cyangwa se gito bafashwe n'uburwayi kugira ngo bahabwe imiti yo gutuma bakira.

Bimwe mu bikorwa remezo ni ingenzi cyane, cyane cyane nk'ibikorwa remezo by'ibitaro. Ibi ngibi byo bifite umumaro ukomeye ku baturage, dore ko nk'iyo abaturage barwaye cyangwa se bagize ikindi kibazo ku buzima bwabo, bajya kwivuza bagahabwa imiti, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza cyangwa se abaturage bakaba babikoresha mu buryo bwo kwipimisha, bakareba uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ku Irembo ni ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye aho dushobora kujya ku irembo dushaka kubikuza amafaranga kuri momo cyangwa se dushaka icyemezo cy'ubuvuke cyangwa se dushaka icyemezo kugira ngo tubone uko tujya kwifotoza indangamuntu.

Farumasi ni inzu ibonekamo imiti itandukanye ikaba yifashishwa n'abarwayi igihe bafite uburwayi butandukanye aho bajya kuguramo imiti ,maze bakayifashisha mu buryo bwo kwivura bwa burwayi bwabo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze ndetse bakomeze no gutera imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi nyuma yo gukoresha imiti ndetse bakivura ubwo burwayi.

Abashinzwe umutekano, ni bamwe mu bantu b'ingenzi dufite hano mu gihugu cyacu, kubera ko nta mutekano nta kintu na kimwe wageraho, niyo mpamvu buriya nk'iyo hari abantu bagomba kurinda umutekano w'ahantu runaka, baba bagomba kwitabwaho cyane, ndetse mu buryo bwihariye, kubera ko aba bantu nibo butuma iterambere ry'igihugu ryiyongera ndetse bagatuma n'abantu babaho batuje mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ku bigo nderabuzima ni ahantu h'ingenzi cyane dore ko hafasha abaturage gukemura ibibazo byinshi cyane bitandukanye biterwa n'uburwayi bwabo aho abaganga bakira abaturage maze bakabakemura ibibazo bijyanye n'uburwayi bakabaha imiti ijyanye n'uburwayi barwaye maze bakagenda bayikoresha bagakira ndetse bagakomeza kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibigo by'amashuri ni ingenzi cyane, ku iterambere ry'igihugu ndetse no ku baturage, aho abana barererwa bagatoza kirazira ndetse n'umuco nyarwanda, maze bagakura bafite indangagaciro z'umuco nyarwanda ndetse bakanategurwamo abayobozi b'ejo hazaza.

Niba ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso ukwiye kwihutira kujya ku bigo nderabuzima byita ku burwayi bw'amaso ndetse bikanabuvura kubera ko ari ngombwa cyane, kwivuza amaso kuko iyo utivuje amaso ushobora kugira ikibazo cy'ubuhumyi, ibi ngibi bikaba byadindiza imikorere yawe ya buri munsi.

Ikigo nderabuzima ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi remezo leta yashyizeho muburyo bwo gukemura ibibazo by'abaturage ku bijyanye n'ubuzima, dore ko abaturage bakifashisha bipimisha kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze, abandi bakakiyifashisha bajya kwivuza indwara bitewe n'uko baba bumva ubuzima bwabo butameze neza.

Kwa muganga hari ibitanda byifashishwa mu kwita ku barwayi, bityo akaba ari ngombwa cyane ko kwa muganga haboneka ibi bitanda, kuko hari abarwayi barwara mu buryo bukomeye cyane, ku buryo kubitaho bisaba kuba bari iruhande rwa muganga, cyane kurusha uko bajya kurwarira iwabo, kuko byabongerera ibyago byo kwiyongera k'uburwayi cyangwa se uburwayi bukaba bwanabahitana.

Mikorosikopi ni igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa n'abaganga iyo bari gupima mikorobe ziri mu kintu. Ibi ngibi bikaba bifasha abaganga mu mikorere yabo ya buri munsi, iyo bashaka cyangwa se bari kuvura, bari no gupima uburwayi bw'abaturage batandukanye mu gihe bashaka nko kubashakira imiti.

Kwa muganga ni ahantu h'ingenzi kandi hakwiye kwitabwaho, hagakorerwa isuku y'umwihariko ikomeye cyane, dore ko iyo bitabaye ibyo ngibyo, kwa muganga hakibasirwa n'umwanda, hashobora gutera izindi ndwara nyinshi cyane zitandukanye, zishobora koreka ubuzima bw'abaturage batari bakeya bahahurira bagiye kwivuza.

Bimwe mu bikorwa byo kugurira ingingo z'umubiri wacu ndetse na siporo ni ingenzi cyane dore ko bikwiye gukorwa na buri muntu wese dore ko kandi bigira umumaro ku mubiri wacu aho bituma umubiri wacu ugira ubudahangarwa bukomeye cyane ukaba utabasha gufatwa na zimwe mu ndwara ziterwa no kudakora siporo ahenshi cyane nk'umubyibuho ukabije umuvuduko w'amaraso kurwara indwara z'ubuhumekero ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwa buri munyagihugu wese, dore ko siporo ituma umubiri wacu ugira ubudahangarwa bukomeye cyane ku buryo hari indwara nyinshi cyane zitandukanye zidashobora gufata umubiri wacu, harimo nk'indwara y'umuvuduko w'amaraso, indwara zifata ubuhumekero, indwara zifata umutima ndetse n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. Buri muntu wese rero nkaba namushishikariza gukora siporo, kuko ari igikorwa cy'ingenzi cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane dore ko tudashobora kubaho tutanywa amazi, kubera ko amazi ni kimwe mu bintu bigize hafi kimwe cya kabiri cy'umubiri wacu, rero buri muntu wese akwiye kunywa amazi cyane cyane kubantu bakora siporo kubera ko batakaza amazi menshi iyo babira icyuya.

Niba wagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa se ukagira ikibazo cy'imvune, ihutire kwa muganga maze abaganga bagufashe bagukemurire icyo kibazo hakiri kare, dore ko iyo habayeho kutajya kwa muganga icyo kibazo cyawe cy'ubwo burwayi bwo kugira igisebe cyangwa se imvune gishobora guteza ibindi bibazo byinshi cyane kandi bitandukanye ku buzima bwawe.

Umuhanda ni kimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi cyane byifashishwa na leta ndetse n'abaturage mu kuzamura iterambere ry'igihugu, aho umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, iyo bishaka kugeza ibicuruzwa ku masoko ndetse n'abaturage bakaba bawukoresha iyo bashaka kuva ahantu hamwe bagana ahandi hantu.

Ni ngombwa ko dufata umwanya tugakora imyitozo ngororamubiri. Dore ko imyitozo ngororamubiri ari kimwe mu bikorwa by'ingirakamaro ku buzima bwa muntu. Kubera ko gifasha umubiri kugororoka ndetse mu mubiri ukagira ubudahangarwa bukomeye cyane, aho hari indwara zimwe na zimwe zishobora kudafata umuntu ukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo.

Dukwiye gushaka umwanya wo gukora siporo ndetse tukanigomwa cyane niba dufite n'imirimo myinshi, dore ko siporo ari kimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane bigira uruhare mu mikorere myiza y'umubiri, dore ko umuntu ukora siporo aba afite ubudahangarwa bukomeye cyane ku mubiri we hakaba hari indwara nyinshi zitandukanye zitamufata.

Iyo umwana ari kumwe na nyina aba yishimye cyane, yumva ari kumwe n'umuntu umwitaho, umumenyera ibyo akeneye mu buzima bwe kandi wamubyaye, rero rimwe na rimwe ukaba usanga bidashoboka ko umwana yatandukanywa na nyina.

Kunywa amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane dore ko bifasha umubiri wacu gukora neza urugero: nk'ibice by'umutima, impyiko ndetse n'ibihaha, rero buri muntu wese akwiye kunywa amazi kubwo kubungabunga ubuzima bwe burambye kandi bwiza dore ko kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwacu kigizwe n'amazi.

Kwambara agapfukamunwa, ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane, dore ko kwambara agapfukamunwa biturinda indwara zandurira mu buhumekero, harimo nka Corona virus, Marbag ndetse n'ibindi byorezo byinshi bitandukanye, ndetse n'indwara zose zandurira mu buhumekero, ni byiza rero ko kwa muganga bakoresha agapfukamunwa mu buryo bwo kwirinda ziriya ndwara zishobora kwandura mubuhumekero ziturutse mu barwayi batandukanye.

Dukwiye kunywa amazi asukuye kubera ko amazi asukuye agira akamaro ku mubiri, dore ko no kunywa amazi yanduye bishobora kuba inkomoko z'uburwayi butandukanye, nk'amazi y'imvura, adatetse, ashobora gutera ibicurane ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Igihe turi muri siporo tuba dutakaza imbaraga nyinshi cyane rero akaba ari ngombwa ko hafi aho haba hari amazi kubera ko iyo turi muri siporo dutakaza icyuya, akaba ari ngombwa cyane rero ko tunywa amazi kubera aya mazi cyangwa se icyuya kiba kituva mu mubiri.

Siporo ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane bikwiye gukorwa na buri muntu wese, dore ko siporo ituma umubiri wacu ugira ubudahangarwa bukomeye cyane, dore ko umuntu ukora siporo ntabwo ashobora gufatwa n'izi ndwara zikurikira harimo nk’umuvuduko w'amaraso, uburwayi bw'indwara z'ubuhumekero, uburwayi bw'umutima ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane zitandukanye.

Kugorora umubiri wacu ni bimwe mu bintu by'ingenzi cyane bigira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho umuntu ugorora umubiri we usanga afite ubuzima buzira umuze ndetse ugasanga ubuzima bwe bufite ubudahangarwa bukomeye cyane, hakaba har’indwara nyinshi zitandukanye zidashobora gufata umubiri we.

Umuntu wese ukora siporo akwiye gufata ibiribwa birimo intungamubiri nyinshi zitandukanye harimo nk'imbuto ndetse n'imboga, hakazamo ibirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, kubera ko umubiri wacu ukenera isukari ndetse ugakenera n'imbaraga uba watakaje igihe dukora siporo.

Siporo ni kimwe mu bintu by'ingenzi ku buzima bwacu, dore ko siporo idufasha kugira ubuzima bwiza, aho umuntu ukora siporo aba atandukanye cyane n'umuntu udakora siporo, dore ko umuntu ukora siporo adashobora na rimwe kugira ikibazo cy'umubyibuho mwinshi cyangwa se ngo agire ikibazo cy'indwara zifata ubuhumekero ndetse n'umutima.

Imwe mu mikino dukwiye kuyikina habayeho kwirinda cyangwa se kugira ubwirinzi ku giti cya buri muntu wese, dore ko hari imikino imwe n'imwe ishobora gushyira ubuzima bwa buri muntu cyangwa se bwa buri mukinnyi ukina iyo mikino mu kaga.

Kunanura umubiri wacu ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bidufasha kugira ubuzima bwiza dore ko bituma umubiri wacu ndetse n'ubuzima bwacu bugira ubudahangarwa kubera kwinanura cyangwa se gukora imyitozo ngororamubiri.

Imbyino gakondo ni zimwe mu mbyino zituma abantu bizihirwa cyane zikaba zikorwa n'abari n'abategarugori, cyangwa se abakobwa n'abasore, zikaba zikunda gukorerwa ahantu cyane bamurika ibintu bijyanye n'umuco, ndetse n'ahantu habaye ibirori mu buryo bwo gushimisha abantu bitabiriye ibyo birori.

Kwihutira kujyana imvune kwa muganga niba wagize ikibazo cy'imvune, birashoboka ko waba uri muri siporo cyangwa se wari uri mu bindi bikorwa bitandukanye, byatumye uvunika. Rero ni ngombwa kwihutira kwa muganga imvune itarakomera cyane kugira ngo muganga agufashe aguhe imiti ndetse anakuvure kugira ngo imvune yawe ikire vuba, hanyuma uzasubire mu buzima busanzwe ndetse no mu bikorwa byawe bya buri munsi.

Mu bitaro n ni ahantu h'ingenzi cyane, aho abarwayi bitabwaho mu buryo bwihariye ndetse n'abaganga, ndetse hakaba hari n'ibikoresho byihariye byabugenewe by'ingenzi byo gukoresha abaganga bakoresha bita ku barwayi mu buryo bwo kugira ngo babavure maze uburwayi bwabo bukire vuba.

Iyo tubyutse mu gitondo, ni ngombwa kunura ibice by'umubiri wacu byose bikananuka, kubera ko tuba tumaze igihe kirekire turyamye umubiri wacu utava ahantu hamwe, kandi ibi ngibi ni ingenzi ku mubiri wacu kubikora buri gihe cyose tubyutse ari mugitondo.

Gukora siporo ni igikorwa buri muntu wese akwiye kuzirikana ndetse akakigira icye, dore ko gukora siporo bigira ingaruka nziza ku buzima bwa buri muntu wese iyo abigize ibiye maze akajya abikora buri munsi, kuko gukora siporo ni kimwe mu bintu bituma umubiri wacu ugira ubudahangarwa bukomeye cyane.

Dukwiye kugorora ingingo zacu iyo dukora siporo, dore ko ibi ngibi bifasha umubiri wacu gukora neza kandi ni ngombwa ko dukoresha amazi menshi cyane igihe dukora siporo, dore ko amazi afasha umubiri wacu igihe twakoze siporo n'igihe twatakaje icyuya gukora neza.

Umuntu uwo ari we wese ukora siporo aba akwiye gufata imbuto zitandukanye zo kongera kubaka umubiri, dore ko iyo umuntu akora siporo umubiri we utakaza imbaraga nyinshi cyane zitandukanye, akaba ari ngombwa rero ko imbuto ari cyo kintu k'ingenzi cyane cyafasha umuntu ukora siporo mu buryo bwo kongera kugarura imbaraga ndetse no mu buryo bwo kubaka umubiri mu buryo bwiza.

Igikapu ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu kubika ibikoresho bitandukanye, biboneka mu rugo ndetse n'ibikoresho twifashisha nk'iyo turi ku rugendo, igikapu turagikoresha dutwaye ibyo turi bukoreshe tugiye ku rugendo, biri buze kwifashishwa mu byo twakenera cyane.

Niba wari uri muri siporo, ukaba wagira wenda nk'ikibazo cyo Kuba wavunika rumwe mu rugingo rw'umubiri, ni ngombwa cyane kujya kwa muganga kugira ngo barebe ikibazo ufite hakiri kare, babe bakuvura kugira ngo nanone uzakomeze siporo zawe mu minsi y'azaza n'ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza.

Mu gihe wumva ufite ikibazo cy'uburwayi, ukwiye kujya kwa muganga bakakwandikira imiti cyangwa se ibinini ukwiye gufata kugira ngo uburwayi bwawe bugabanuke, ariko nanone hakaba hakwiye kwirindwa gukoresha imiti yongera imbaraga kuri bamwe, kubera ko iyi miti ifite ingaruka nyinshi cyane igira ku buzima bwa muntu kubera ko niba umuntu ashaka imbaraga akwiye gufata indyo yuzuye.

Ibikoresho tunyweramo amazi dukwiye kubikorera isuku ndetse tukabishyiramo n'amazi asukuye twatetse dore ko ibi bikoresho iyo tubikoreye isuku nabi cyangwa se ntitubikorere isuku nk'uko bikwiye bishobora guteza ubundi burwayi bushobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga.

Siporo zo guterura ibyuma ni ingenzi cyane ku ubuzima bwacu, ariko nanone izi siporo zikwiye kuba nziza cyane igihe dufite abatoza b'abanyamwuga babihuguriwe, bakatwereka uburyo dukora izi siporo dore ko iyo zikozwe nabi zigira ingaruka ku buzima bwa muntu.

Umuntu wese ukora siporo, yaba siporo yo kwirukanka cyangwa se siporo yo guterura ibyuma, aba agomba gufata indyo yuzuye kubera ko umubiri we ukoresha imbaraga nyinshi cyane akora iyo siporo, akaba ari na ngombwa cyane kunywa amazi kubera ko umubiri utakaza amazi iyo umuntu abira ibyuya akora siporo.

Dukwiye gukora siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, dore ko umuntu ukora siporo, bituma umubiri we ugira ubudahangarwa bukomeye cyane, akaba atafatwa n'indwara zitandukanye, zirimo nk'indwara y'umuvuduko w'amaraso, indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, indwara z'umutima ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane zitandukanye, rero buri muntu wese akaba agomba kwitabira cyangwa se gukora imyitozo ngororamubiri.

Amazi ni ngombwa cyane ku buzima bwa buri muntu wese cyane cyane abantu bakora siporo, bo baba bakwiye kunywa amazi buri munsi kubera ko umuntu ukora siporo atakaza icyoya yari gukora siporo bityo amazi akaba ari ngombwa cyane ko ayafata buri munsi kandi amazi akaba ari meza cyane nk'iyo umuntu ayakaraba, yoga yivuanaho icyuya yavanye muri siporo.

Abaganga ni abantu b'ingenzi cyane dore ko bakwiye kwitabwaho ,aho bakwiye guhabwa ibikoresho byo kwifashisha mu kazi kabo ko kuvura ,dore ko bita ku baturage benshi cyane batandukanye aho aba baturage baba bafite indwara zitandukanye bashobora kubanduza. Bityo akaba ari ngombwa rero ko leta ibagenera ibikoresho bakwiye gukoresha mu gihe bakora akazi kabo ko kuvura.

Ni ngombwa cyane niba umuntu arangije gukora imyitozo ngororamubiri, gufata akanya ko kuruhuka ndetse no gufata bimwe mu bintu bituma aruhuka neza, birimo nk'amazi ndetse n'ibindi biribwa bishobora gutuma wongera kugarura imbaraga nyuma yo gutakaza imbaraga nyinshi muri siporo, dore ko iyo turi muri siporo dutakaza isukari nyinshi, rero ni ngombwa ko umuntu afata umwanya akaruhura urumuri ndetse n'ubwonko.

Iyo ugize ikibazo cyo kuvunika rumwe mu rugingo rw'umubiri, ni ngombwa cyane kwihutira kwa muganga bakagufasha, dore ko baba bafite ibikoresho bitandukanye bivura imvune, harimo nka bande, pomade, ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, byafasha umuntu wese waba wagize ikibazo cyo kuvunika urugingo rw'umubiri.

Imbuto ndetse n'ibindi biribwa byinshi cyane bitandukanye hamwe n'amazi, ni bimwe mu bintu dukwiye kwifashisha igihe dusoje gukora siporo, dore ko bimwe mu biribwa by'imbuto bigira isukari karemano iyi sukari rero tukaba tuyikenera cyane kubera ko tuba twayitakaje igihe dusoje gukora siporo.

Kugorora ingingo zacu ndetse no gukora siporo ku mubiri ni ingenzi cyane, dore ko biturinda indwara nyinshi cyane zitandukanye kandi bikanatuma ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza kuko umuntu ukora siporo hari indwara zimwe na zimwe zidashobora kumufata, harimo n'indwara z'umutima, indwara z'ubuhumekero, indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi nyinshi cyane zitandukanye.

Imwe mu miti iboneka hanze ni ingenzi cyane, dore ko idufasha mu kuvura ibibazo dufite byinshi cyane bitandukanye, harimo nko kuba warikinishije, kuba udatera akabariro neza ukarangiza ikitari igihe, ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Dukwiye kwita ku bidukikije kubera ko ibidukikije ari ingenzi cyane ku buzima bwacu, dore ko ibidukikije byinshi biyungurura umwuka duhumeka, ndetse bimwe mu bidukikije binaduha ibyo kurya bidutunga buri munsi, harimo nk'imboga, ibirayi, ibigori ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye bitugirira akamaro reka tubyiteho rero.

Gufata indyo yuzuye ni kimwe mu bintu bituma umubiri wacu ugira ubudahangarwa bukomeye cyane ndetse bigatuma tugira ubuzima bwiza. Nko ku bana bakwiye gufata indyo yuzuye bigatuma bakura neza mu gihagararo ndetse no mu mitekerereze, bakazavamo abayobozi beza b'igihugu cy'ejo hazaza.

Hari igihe rimwe na rimwe twumva turwaye, tukumva turananiwe cyangwa se tukabona tugeze mu bihe bibi, ugasanga umuntu asa n'uwasaziye imburagihe ariko rimwe na rimwe hari imiti ivura ubwo burwayi, nkaba nashishikariza buri umwe wese gukoresha imiti itandukanye, mu buryo bwo kwivura uburwayi kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza, mbese dukomeze no gutera imbere.

Bamwe mu bahinzi bakora ubuhinzi bwabo, barangiza bakazitira ahantu bahinze mu buryo bwo kurinda ibyo bahinze cyangwa se ibihingwa byabo, mu buryo bwo kugira ngo bitazangirika cyangwa se bitazononwa n'inyamaswa cyangwa se na buri muntu wese.

Ni byiza gukoresha imboga ku mubiri wacu dore ko imboga ari kimwe mu bintu by'ingenzi nabyo bituma umubiri wacu ugira ubuzima bwiza, dore ko imboga zifasha amaso yacu gukora neza ndetse bikaba ari ibiribwa dukwiye kwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibidukikije ni iby'ingenzi cyane, dore ko bimwe mu bidukikije uba usanga bikurwamo imiti itandukanye ariko ibidukikije by'umwihariko biyungurura umwuka duhumeka, bikaba ari ngombwa cyane ko tubungabunga ibidukikije kuko ibidukikije na byo bigira uruhare mu buzima bwacu bwa buri munsi bwiza.

Muri farumasi, habonekamo imiti itandukanye kandi ivura uburwayi butandukanye, farumasi rero akaba aringombwa ko buri muntu wese ajya gushakamo imiti igihe yumva afite uburwayi cyangwa se igihe yategetswe na muganga kujya gushaka imiti muri farumasi, dore ko muri faromasi habonekamo imiti itandukanye kandi ifasha abarwayi bituma bakira vuba ndetse ubuzima bwabo bukongera kukagaruka bagakomeza imirimo yabo ya buri munsi.

Imwe mu miti ya kinyarwanda ikunda kwifashishwa mu kuvura uburwayi bwinshi butandukanye, kandi iyi miti iboneka mu bimera bitandukanye biboneka mu bidukikije; aho iyi miti ishobora no kutuvura uburwayi akenshi bwananiranye kwa muganga. Rero ni ngombwa cyane ko twita kubidukikije kubera ko ni yo nkomoko y'iyi miti.

Ibidukikije ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu wese kubera ko nk'ibiti tubona mu bidukikije bituma duhumeka umwuka mwiza kubera ko ibi biti tubona bidukikije ni ingenzi kuko biyungurura umwuka duhumeka, akaba ari ngombwa rero ko buri muntu wese yita ku bidukikije kubera ko na byo bifite uruhare mu mibereho yacu ya buri munsi.

Ibidukikije bikwiye kwitabwaho ndetse bigakorerwa isuku mu buryo bwihariye dore ko ibidukikije bigira ingaruka nziza ku buzima bwa muntu kuko akamaro k'ibidukikije ni kanini cyane dore ko ibidukikije biyungurura uyu mwuka duhumeka kandi tukaba tunabikoresha nk'ibyo kurya bya buri munsi.

Amavuta ni ingenzi cyane dore ko dukwiye kuyakoresha kandi iyo tuyakoresheje nk'igihe tumaze koga atuma tugaragara mu bandi neza, akaturinda impumuro mbi, rero buri wese akaba akwiye gukoresha amavuta mu buryo bwo kugira ngo abungabunge ubuzima bw'umubiri we ndetse n'uruhu rwe ndetse bitume anagaragara neza mu bandi.

Amavuta ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma umubiri wacu uhora usa neza, ndetse aya mavuta abantu bayakora nabo bituma iterambere ryabo rizamuka kubera ko baba bafite akazi kabahemba buri munsi, aho batunganya aya mavuta ndetse naba nyiringanda zikora aya mavuta batuma iterambere ry'igihugu rizamuka, dore ko batanga imisoro ku gihugu kubera iki gikorwa cyo gukora amavuta bityo iterambere rikihuta.

Dukwiye kubungabunga igihugu cyacu tukirinda umwanda, ndetse tukanabungabunga ingo zacu, aho dukwiye gukora isuku, ahantu aho ariho hose hagaragara imyanda, dore ko imyanda ishobora kuba inkomoko y'uburwayi butandukanye, ibi ngibi bikaba byashyira ubuzima bwacu mu kangaratete.

Amavuta ni ingenzi cyane ku ruhu rw'umuntu, dore ko afasha uruhu rw'umuntu kururinda kumagatana rugahora rutohereye cyane, bityo rero, buri muntu wese akaba agomba gukoresha amavuta igihe cyose arangije koga kugira ngo uruhu rwe ruhore rutoshye kandi rubobereye.

Umuravumba ni kimwe mu bimera by'ingenzi cyane, aho iki kimera cyifashishwa nk'umuti, kera abantu bacyifashishaga bivura umutwe, nubwo iki gihe kubera iterambere kitakifashishwa cyane ariko ni kimwe mu bimera by'ingenzi cyane, bizwiho kuba byarifashishwaga n'abakurambere mu buryo bwo kwivura indwara zitandukanye zirimo nk'ibicurane.

Ibiti ndetse n'ibindi bidukikije ni ingenzi cyane dore ko bigira uruhare mu buzima bwacu aho usanga nk'ibiti biyungurura umwuka duhumeka maze tukabaho dufite ubuzima bwiza ndetse tunakora ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Alliance ni ikigo gishinzwe gutanga imiti haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kikaba ari ikigo kimaze gufata ubukombe mu gukora cyane dore ko gifite abafatanyabikorwa benshi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye.

Dukwiye gukoresha amavuta mu buryo bwo kwita ku ruhu rwacu, dore ko amavuta amwe avura ibiheri, ugasanga umuntu yazahajwe n'indwara y'ibiheri, ariko yakwisiga amavuta ugasanga uruhu rwe rusigaye rusa neza rukeye, bityo akaba ari ngombwa cyane ko dukoresha amavuta.

Dukwiye kwita ku bidukikije ndetse tukabibungabunga cyane, kubera ko bimwe mu bidukikije bigira akamaro gakomeye ku buzima bwacu, dore ko bimwe mu bidukikije bishobora kuvanwamo imiti. Bimwe mu bidukikije bivanwamo ibyo kubaka, rero ni ngombwa ko tubibungabunga dore ko binayungurura umwuka duhumeka.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu, aho izamura ubukungu bw'igihugu ndetse idasize n'ubukungu bw'abaturage, dore ko iyo abaturage bayihinze igakura, maze ikera, bakayijyana ku masoko, bayigurisha maze bakabaha amafaranga, bityo n'igihugu kikayikuramo ibicuruzwa bimwe na bimwe binyuze mu nganda, ibyo bigatuma ubukungu bw'igihugu buzamuka ndetse n'ubukungu bw'abaturage bukazamuka.

Ubworozi n'ubuhinzi ni ingenzi cyane ku gihugu cyacu dore ko bigira iterambere rikomeye cyane, rero hakaba hakwiye kubaho bamwe mu bantu bahagarariye ubworozi n'ubuhinzi mu gihugu ,ndetse hakaba hakwiye no gufatwa ingamba mu gukora iki gikorwa, cy'ubworozi n'ubuhinzi ndetse n'abantu babikora bakaba bakwiye kugirwa inama na bamwe mu bayobozi babihagarariye mu gihugu.

Imiti y'amenyo ni ingirakamaro, dore ko yifashishwa mu koza amenyo, bigafasha amenyo gusa neza iminsi myinshi cyangwa se igihe cyose, ugasanga n'amenyo hari indwara zimwe na zimwe zidashobora kuyafata, bitewe n'uko akunda kugirirwa isuku kandi akanarindwa n'iyo miti umuntu akunda gukoresha yoza amenyo.

Dukwiye kubungabunga bimwe mu bidukikije kuko ari ingenzi cyane ku buzima bwacu, dore ko bimwe mu bidukikije biduha umwuka mwiza kuko binawuyungurura, rero akaba ari ngombwa cyane kurinda kwangirika kw'ibidukikije kuko na byo bigira uruhare mu mibereho yacu ya buri munsi.

Ariyance ni ikigo mpuzamahanga, cyita ku buzima bw'abantu, aho gitanga imiti ivura uburwayi butandukanye, cyane cyane, ziriya ndwara zitajya zandura, rero akaba ari ngombwa cyane ko twese niba dufite uburwayi butandura, harimo nk'umwijima ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye, twifashisha imiti iboneka muri ariyance, kugira ngo tuyikoreshe, kugira ngo na none, tubungabunge ubuzima bwacu, tubeho igihe kirekire.

Sanitayiza ni umuti wica udukoko, uyu muti ukaba warakoreshejwe cyane, mu gihe cyo kurwanya icyorezo cya corona virusi, ndetse uyu muti ukaba ukoreshwa cyane mu buryo bwo kwica mikorobe zose ziba ziri mu ntoki, kubera ibintu byinshi bitandukanye, tuba twafasheho.

Inyanya ni bimwe mu bihingwa byiza cyane byifashishwa n'abaturage mu buhinzi bwabo, aho bibafasha mu kuzamura iterambere ryabo ndetse n'igihugu muri rusange kuko iyo bimaze kwera babishyira ku masoko maze bikagurwa, bityo bakabona amafaranga yo kwiteza imbere ndetse no kuzamura imiryango yabo.

Zimwe mu nzoga iyo tutazikontoroye neza zigira ingaruka ku buzima bwa muntu dore ko kunywa inzoga nabyo bifite akamaro ariko iyo umuntu arengeje urugero rwo kunywa inzoga cyane cyane nzoga z'inkorano zigira ingaruka ku mubiri dore ko zatera indwara zimwe na zimwe ku mubiri kuko zagutera umwijima cyangwa se kanseri, cyangwa n'ibindi bibazo bitandukanye ku mubiri.

Imboga ibitunguru tungurusumu ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiribwa byinshi butandukanye. Nibwo budufasha mu mibereho yacu ya buri munsi kubera ko iyo turya imboga, ndetse n'ibitunguru ibi ngibi bishobora gutuma tugira ubuzima bwiza, aho imboga zifasha amaso yacu gukora neza ndetse zikanaturinda n'indwara zimwe zitandukanye.

Uruhu ni kimwe mu bice by'ingenzi umubiri wacu ufite kandi bikwiye kwitabwaho ndetse no kubungabungwa bityo tukaba dukwiye kugura amavuta yo gusiga ku ruhu rwacu kugira ngo rukomeze kugira ubuzima bwiza ndetse no kururinda indwara zimwe na zimwe.